Abantu benshi bicaye ku ntebe nziza ziri mu ibara ry'umutuku imbere yabo cyangwa se ku ruhande rwabo hari uducupa twinshi duteretse turimo amazi, bigaragare ko hano hari igikorwa cyabahurije hamwe.

Abantu benshi bicaye harimo abanyeshuri ndetse n'abandi bantu, imbere yabo hari umunyeshuri uhagaze wambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu bwererutse, ndetse yambaye na baji mu ijosi afite ikaye mu ntoki, ndetse afite na mikoro mu ntoki, bigaragara ko hari ubutumwa ari gutanga.

Abagabo babiri bahagaze, umwe yambaye umupira w'ibara ry'umweru, undi yambaye ikote riri mu ibara ry'umukara, ishati ndetse n'ipantaro iri mu i ibara ry'umukara, imbere yabo hahagaze umupolisi, afite mikoro mu ntoki biragaragara ko hari ijambo ari kubabwira.

Abantu babiri bahagaze hagati yabo harimo umugore wambaye ibikenyero uhagaze, bafite ikarita mu ntoki bigaragara ko hano bari kwerekana cyangwa se kwamamaza Mituweli cyangwa se ibyiza bya Mituweli.

Abantu bahagaze harimo abasore batatu, umwe yambaye umwitero w'ibara ry'umweru n'ishati yumweru, afite icumu mu ntoki. Inyuma ye, babiri bafite amacumu ndetse n'ingabo, bigaragara ko ari intore bari kubyina. Iruhande rwabo hari abakobwa babiri bahagaze bari kuganira.

Itsinda rigizwe n'abantu benshi bambaye amashati y'imyeru ndetse n'imikenyero irimo ibara ry'umukara n'umweru, harimo n'umukobwa wambaye umukenyero w'ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, imbere y'aho hari umuntu ufite imirishyo ndetse imbere ye hari n'ingoma bigaragare ko, ari ikirori cyahabereye bari kuririmba ndetse banabyina.

Abagabo babiri bicaye bambaye imikenyero y'umweru irimo akabara k'umukara, bafite inkoni zirimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, bigaragare ko bari mu migenzo y'ubukwe.

Ikibuga kinini kirimo amatente cyangwa se amahema, harimo abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru ndetse harimo n'abambaye imipira iri mu ibara ry'ubururu kuhande hari abantu bahagaze bambaye ibikenyero iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, bigaragara ko bari kuririmba. Imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara uri kubyina.

Ababyinnyi benshi bambaye imishanana iririmo ibara ry'umweru ndetse n'amasengeri afite ibara ry'umweru, bateze amaboko, ku ruhande rwabo hari ingoma bigaragara ko bari kubyina.

Umuzungu wambaye kasike iri mu ibara ry'umuhondo, yambaye ijile iri mu ibara ry'icyatsi harimo umurongo w'umukara, afite terefone mu ntoki, bigaragara ko hari insinga ari gucomeka.

Inzu nziza ifite ibirahure byinshi kandi yubatse neza, mo imbere harimo abantu bahagaze mu muryango, biragaragara ko hano ari ku biro bykarere ka Nyagatare.

Umuhanda munini w'igitaka, ku nkengero zawo hari amazu menshi ndetse, yubatse mu buryo butandukanye. Hari ibiti, imbere yawo hari umusozi muremure uriho ibiti ndetse n'amazu menshi.

Inzu iri mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hari abantu babiri bicaye, imbere yayo na none hari abandi bantu bahagaze, harimo n'umugore umwe ufite igitabo mu ntoki bari gutambuka.

Inzu nini kandi nziza cyane iri mu ibara ry'umuhondo, ifite n'amadirishya menshi ndetse n'imiryango myinshi, imbere yayo hari jaride iriho indabyo nyinshi kandi nziza ndetse n'amapave.

Inzu nini yubakishijwe amatafari, imbere yayo hari amapave ndetse n'umuhanda, imbere y'iyo nzu haparitse imodoka iri mu ibara ry'umweru, ku ruhande rwayo hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi, cyanditseho amagambo.

Abantu benshi bambaye amakoti ndetse n'abagore bambaye ibikenyero, bicaye mu matente, imbere yabo hari udutebe duteretseho uducupa turirimo amazi, bigaragare ko hano bateraniye hamwe, mu gikorwa cyo kwibuka.

Ishyamba rinini ririmo: ibiti, insina ndetse n'ibindi bimera, harimo abantu benshi bambaye imyenda itandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imipira iri mu ibara ry'icyatsi, bigaragare ko hano hari igikorwa cyabateranyirije aha.

Umuhanda urimo amabuye uparitsemo imodoka itwara abagenzi, iruhande rwayo hari inzu iri mu ibara ry'icyatsi ndetse hari n'umuntu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ya kake ari gutambuka.

Abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye bahagaze, abandi baricaye, bahagaze mu kibuga, imbere yabo hari umugore munini wambaye ikanzu y'igitenge, bigaragara ko hari igikorwa cyabahurije ahangaha.

Ikibuga kinini kirimo abakinnyi b'umupira, bambaye umupira w'umutuku, harimo utubara tw'umuhondo, ndetse n'amakabutura ari mu ibara ry'umukara harimo n'utubara tw'umuhondo, bari kwiruka bigaragara ko bari gukina.

Ikibuga kinini cyane, kirimo abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo, bahagaze ku murongo barambuye amaboko, bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri imwe dukunda kwita siporo.

Ikibuga kinini cyane bakiniramo umupira harimo umugore wambaye umupira uri mu ibara ry'umukara ipantaro iri mu ibara ry'umukara n'inkweto ziri mu ibara ry'ubururu, imbere ye hahagaze umugabo wambaye ishati iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro yumukara imbere ye hari ballon cyangwa se umupira.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka iri mu ibara ry'ubururu, ku ruhande rwayo hari inzu nini iri mu ibara ry'umweru ndetse na moto zihaparitse n'umuntu wambaye umwenda umupira uri mu ibara ry'umweru ari gutambuka.